Inzu mberabyombi irimo abantu benshi harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye. Bose bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu bwerurutse. Imbere yabo bamwe na bamwe hari ameza afite ibitambaro by'umukara ateretseho impapuro zifite ibara ry'umweru n'amacupa arimo amazi. Mbe bakaba bayobowe n'umugabo inyuma ye hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru kiriho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Uruganda runini rurimo amatiyo agiye atandukanye afite ibara ry'icyatsi, ndetse n'imashini nyinshi zifite ibara ry'ubururu akaba arimo umugabo wambaye ingofero y'ubwirinzi, ifite ibara ry'umweru ndetse n'igisarubeti gifite ibara ry'umukara cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru.

Umwana uri ku ivomero rusange wambaye umupira ufite ibara rijya gusa n'umweru n'ikabutura ifite ibara rijya gusa n'umutuku, ufashe ijerekani y'umuhondo ari kuvomera amazi aturutse mu ivomero. Inyuma y'iyo jerekani hari izindi jerekani imwe, ebyiri, eshatu zitegereje ko iriho yuzura na zo bahite bazivomera.

Abana babiri batandukanye bambaye imyenda itandukanye arimo uwa wambaye agapira k'umukwe karimo imirongo y'icyatsi akaba ari kuvomera ku ivomero rusange avomera indobo zifite ibara ry'umye aka n'undi wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu akaba afite n'indobo ifite ibara ry'umweru mu ntoki bakaba baje kuvome rusange kuvomera izo ndobo zose.

Abantu batandukanye harimo umukobwa ufite imisatsi migufiya wambaye iji ijya gusa n,umuhondo ndetse n'agapira k'umweru yambayemo imbere, akaba ahagaze ku ivomero rusange ririho umugabo uri kuvomera ijerekani ifite ibara ry'umuhondo wambaye umupira w'amaboko maremare arimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba yejyanye n'undi mugore uteze igitambaro mu mutwe wambaye umupirama kumaremare ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'ijipo yinge akaba ari kuvomere iyere kandifite ibara ry'umuhondo.

Amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umukara ari mu bice bitandukanye, hari ari hejuru andi ari hasi andi ari ku mpande zigiye zitandukanye, hakaba hari n'ibirango bitandukanye bifite amabara atandukanye arimo ubururu, icyatsi n'umuhondo n'umweru, byerekana ibintu bitandukanye binasobanuye ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru n'idirishya rifite ibara rijya gusa n'umweru ririmo ibirahuri by'umukara, icyo cyumba cy'ivuriro kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bifite ibara ry'umweru. Muri icyo cyumba cy'ivuriro kikaba barimo abaganga batandukanye bambaye impuzankano zitandukanye harimo abambaye impuzankano z'icyatsi, ndetse n'abandi bambaye impuzankano z'umukara bose bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'udutambaro dufata imisatsi mu mutwe.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, bakaba bari gukoma amashyi, hakaba harimo abambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu, inyuma y'abo hari ihema rishinze rifite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'abafite ibikapu bigiye bitandukanye by'amashakoshi afite amabara agiye atandukanye arimo icyatsi ndetse n'umutuku n'andi mabara atandukanye.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa na kaki, bakaba bicaye hagati yabo harimo intera, hagati yabo hakaba harimo utu meza dutoya dufite ibara ry'umweru duteretseho amacupa y'amazi, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, akaba ariho n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta, zifite amabara arimo ubururu ndetse n'umweru, kirimo abantu batatu batandukanye barimo umuforomokazi wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu wambaye n'agapfukamunwa, hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umweru, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumurwaza wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu bwererutse, akaba anambaye n'ikanzu ifite amaboko magufi.

Abagabo bambaye imyenda y'ubwirinzi yifashishwa mu gihe cy'icyorezo, bambaye ingofero z'umweru, n'amarinete, n'amasarubeti afite ibara ry'umuhondo, bakaba bambariyeho n'amataburiya afite ibara ry'umweru bari kwita ku bantu bahuye n'icyorezo, bashyizwe mu kato kabo.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye bakaba bicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara ndetse n'utudomo tumweru bakaba bicaye mu n mberabyombi ifite inkuta zifite ibara ry'umweru bakaba bafite ameza ari imbere yabo yambaye ibitambaro by'ubururu ndetse n'umweru bakaba hariho ibikoresho bigiye bitandukanye arimo udupapuro twanditseho amazina yabo ndetse n'amacupa y'amazi.

Ivomero rusange ryubatse rifite ibara ry'umweru n'ubururu, hanze yaryo hari umugore wambaye imyenda idoze mu gitenge, wambaye agapfukawa n'abandi bantu batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, baje kuri iryovomero kurivomaho, bambaye imyenda itandukanye, bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Inzu mberabyombi ifite inkuta z'umweru ndetse n'indi mitako irimo iy'ibiti, iyo nzu mberabyombi mbi ikaba imanitsemo icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umukara hakaba harimo n'abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye ndetse hakabamo abazungu ndetse n'abirabura.

Ubuso bw'ubururu burimo ikirango gisobekeranye gifite ibara ry'umweru hagati muri icyo kirago akaba harimo amagambo y'imin arimo UNWFP akaba ari ikirango cy'ikigo gishinzwe amahoro ku isi.

Umwana mutoya w'umukobwa ufite imisatsi y'umukara isutse, yambaye imyenda idozwe mu gitenge gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, n'umukara, akaba ari gukaraba amazi meza, akaba ari kuyakaraba mu ntoki amazi aturutse muri kano ipompwa, munsi y'iwe akaba hari ibasi ifite ibara ry'umukara.

Umugore ufite imisatsi miremire isutse y'umukara akaba yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, munsi hari amagambo yanditse ari mu ibara ry'umweru mu rimi rw'icyongereza no ku ruhande hakaba ari andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru munsi yuwo mugore hari amazina yiwe.

Urukuta rufite ibara ry'umweru imbere yabo habaka hari abantu bicaye ku ntebe y'urubaho bambaye imyenda igiye itandukanye ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa hakaba harimo umuganga uri kwita ku bana batoya abaha imiti igiye itandukanye.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe, zifite ibara ry'umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye. Hari abafite mudasobwa ziteretse kuri ayo meza, abafite amakayi n'amatelefone, hakaba hari n'amacupa y'amazi ateretse kuri ayo meza. Imbere yabo hakaba hari abandi bantu bayoboye inama barimo, harimo abagabo ndetse n'abagore. Inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiriho Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Umwana mutoya wambaye umupira uciye amaboko, ufite ibara rijya gusa nk'umuhondo, urimo ibishushanyo by'indabyo bifite amabara arimo umutuku ndetse n'umukara, akaba yambaye ikabutura ifite ibara ry'icyatsi, akaba ari kudaha amazi mu kiyaga gifite amazi adasukuye, akaba ari kuyadahisha akajikani, gafite ibara ry'umuhondo.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imipira y'umweru, abandi bambaye imipira y'icyatsi, bose bambaye udupfukamunwa dufite amabara agiye atandukanye, harimo abambaye udupfukamunwa tw'umukara, abandi bakambara utw'ubururu bwerurutse, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, kiriho amakaye afite ibara ry'uburu ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore ndetse bambaye imyenda itandukanye ifite amabara atandukanye bakaba bafite ibipapuro by'umweru binini byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu ifite inkuti zifite ibara ry'umweru, bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye imyenda idoze mu bitenge, abandi bambaye amajiri afite ibara ry'icyatsi bambariyemo udupira dufite ibarara rijya gusa n'umuhondo, turimo ibara ry'umweru ry'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda.

Abantu benshi bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru iriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse nayo mu rurimi rw'ikinyarwanda ayo mu rurimi rw'ikinyarwanda akababoneditse ngo ikigo nderabuzima cya mayange akaba ari abajyanama b'ubuzima bambaye amakarita afite imigozi y'ubururu mu ijosi ariho ibibaranga bakaba bari gutaramira umugabo wambaye ikote ry'uburu wambariyemo ishati y'umweru.

Abantu bahagaze batandukanye, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imipira y'umweru, icyatsi, umutuku n'abambaye amataburiya y'umweru n'abandi bambaye amajire arimo ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'undi wambaye ijire ifite ibara ry'icyatsi n'undi wambaye ijire ifitet ibara rijya gusa nka kaki wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, hakaba harimo n'ushinzwe umutekano wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara n'ingofero ifite ubururu bwijimye.

Ibigega binini byubakishijwe amatafari ndetse n'amabuye bikusanyirizwamo amazi bikaba byubakiweho ibyuma bigiye bitandukanye bifite amabara y'umweru bigakusanyirizwamo amazi agiye gutunganywa mu nganda.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore n'abana batoya bahagaze bari kureba umugore wambaye igitambaro gifite ibara ry'umuhondo mu mutwe ndetse akaba anambaye n'umupira w'icyatsi n'ijipo ifite ibaraba rijya gusa umweru akaba ari gupompa amazi yo ku ivome rusange, arimo kuyashyira mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ifashwe n'umwana wambaye isengeri y'umutuku ndetse n'ikabutura ifite ibara rijya gusa nk'ivu.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite amabara atandukanye harimo ibara ry'ubururu bwiyijimye ndetse n'ibara rijya gusa n'ivu ,akaba yegeranye n'ikirango gifite ibara ry'ubururu bwijimye umweru ndetse n'ubururu bwerurutse.

Abana babiri bambaye imyenda igiye itandukanye, ari uwambaye imyenda idozwe mu gitenge ifite ibara ry'icyatsi ryivanzemo andi mabara y'umweru, akaba yegeranye n'uwambaye agapira gafite ibara ry'umutuku ndetse n'ikabutura; bakaba bateze amaboko ku ivomero rusange ripompwa.

Icyumba k'ivuriro kirimo abantu batandukanye, harimo abaganga bambaye impuzankano zifite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo n'uwambaye ingofero irinda imisatsi, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, icyo icyumba kikaba gifite amadirishya y'umukara, arimo ibirahure, hakaba harimo n'ibyuma byifashishwa mu gukora ubuvuzi bw'umurwayi waje muri icyo cyumba aje gufashwa.

Inzu mberabyombi ifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amadirishya akozwe mu byuma afite ibara ry'umukara ikaba irimo abagore bafite abana batoba n'umugore wambaye agapfukaro gafite ibara ry'ubururuba yambaye amaherena aite ibara ry'umweru wateruye umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umu ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'ubururu umugore akaba yambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru.

Inzu ifite ibara ry'ubururu, ndetse ikaba afite n'amabati afite ibara ry'ubururu bwerurutse, kuri iyo nzu hejuru hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, hakaba hariho n'ibishushanyo bishushanyije abantu, aya magambo akaba ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo:"Gira ubuzima." Mo imbere muri iyo nzu hari abantu bicayemo, ndetse no hanze yayo hari abantu bicayemo harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo n'abashinzwe umutekano hari n'imodoka ihahagaze imbere y'iyo nzu.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa umukara, akaba ari gukaraba intoki amazi aturutse mu ndobo ifite ibara ry'umweru n'umufuniko w'ubururu bwerurutse, ikaba iteretse ku meza afite ibara rijya gusa kaki.

Amagambo ari mu buso bw'umweru afite ibara rijya gusa n'umuhondo ari mu rurimi rw'icyongereza, iruhande rwayo hari ishusho ya Nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi cyijimye, imbere yiwe hari utwongera amajwi.

umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'umweru y'imvi, wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara rijya gusa nka kaki, ririmo n'irindi bara rijya gusa n'umutuku, ari kumwe n,abana benshi bicaye ku kirago, basutamye, abandi bicaye hasi, bambaye imyenda igiye itandukanye.

Umugabo wambaye ishati idoze mu gitenge, ifite ibara rijya gusa umuhondo, ndetse n'irindi rijya gusa umutuku, wegamye ku gikuta kirekire gifite ibara ry'umweru, ahagaze ari kureba hejuru mu kirere.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ikaba ifite n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure, hejuru hari shitingi ifite ibara ry'icyatsi. Iyo imodoka ikaba ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibindi birango bigiye bitandukanye ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'ubururu. Imbere yayo hakaba hari abantu benshi batandukanye bicaye ndetse hakaba n'abahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye abicaye bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru.

Amagambo ari mu buso bw'ubururu, ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari ishusho y'umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, y'amaboko maremare, ufite amagambo ayanditseho ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse, akaba yambayemo ishati ifite ibara rijya gusa umutuku.

Umugore wambaye ingofero y'ubwoya, ifite ibara ry'umukara, akaba ayambaye mu mutwe, akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara, akaba afite agatambaro k'umweru mu ntoki, akaba ari kukihanaguza mu maso.

Abantu benshi bari mu muhanda batambuka bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umugore wambaye igitambaro gifitemo amabara y'umuhondo n'umukara, bambaye imyenda yacikaguritse akaba afite n'amacupa banyweramo amazi, uwo mugore akaba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore n'abana batoya bambaye imyenda igiye itandukanye n'ifite n'amabara atandukanye bafite amabendera y'u rwanda mu ntoki afite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo n'icyatsi arimo izuba.

Umugabo w'umuzungu udafite umusatsi ufite uruhara, ufite ubwanwa wambaye ishati y'amaboko magufiya irimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, wambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa umweru; ahagaze inyuma y'urukuta ruriho icyapa kinini kiriho Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda n'ikindi kirango gifite ibara ry'umuhodo n'umutuku, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Icyapa gifite ibara ry'umweru ubururu bwerurutse ndetse n'icyatsi kiriho ibirango bibiririmo ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango ki cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi ndetse akaba n'andi afite ibara ry'umweru imbere yayo hari abantu bahicaye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara bose bakaba bambaye udupfukamunwa munsi yaly n'abandi bicaye ku ntebe z'umukara bayobowe nabo ngo bicaye imbere yabo.

Ishusho itangwa n'icyuma cyo kwa muganga kifashishwa mu gusuzuma uko amenyo y'umuntu ameze; kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, n'amashusho agaragaza amenyo uko ameze mu kanwa ndetse n'ikibazo afite.

Umwana muto ufite umusatsi muke wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, akaba afite uburoso bw'amenyo mu kiganza cy'ibumoso uboroso bw'amenyo bukaba bufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, akaba ari kubukoresha asukura amenyo yiwe akoresheje ubwo buroso ndetse n'umuti w'amenyo.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru, kikaba kirimo umuganga w'umugore wambaye amarinete, akaba yayazamuye, yayafatishije ku mutwe, yambaye agapfukanwa k'ubururu bwerurutse n'itaburiya y'umweru, akaba yanambaye ga z'umweru, akaba ari kwita ku mwana mutoya ufite ikibazo cy'amenyo, uwo mwana akaba aryamye ku gatanda gafite ibara ry'ubururu, akaba yambaye umupira w'umutuku, akaba ari kumwitaho amutera inshinge mu kanwa.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi migufiya y'umukara, wambaye amaherena ku matwi abiri, akaba yambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru, afite akadodo k'umweru mu biganza kifashishwa mu gusukura amenyo, ari kugenda akanyuza hagati y'amenyo agenda ayasukura.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye arimo ifite ibara rye gusa nk'ivu, umukara ndetse n'ibifite ibara ry'umweru. Hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura umuntu ufite ikibazo cy'amenyo. Ibyo bikoresho bikaba biteretse ku kameza gafite ibara ry'umweru. Hakaba hari n'ibindi biri hirya bifite ibara ry'umweru, bifite n'ibindi byuma bishamikiyeho.

Umugabo nu mugore bafite imisatsi y'umukara bambaye udupira tw'umweru, bafite utudodo tw'umweru mu ntoki zabo twifashishwa mu gusukura amenyo bari kwirebaba mu kirahure cyindorerwamo, uburyo ki basukura amenyo yabo bakoresheje ako kadodo.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abantu bakuru ndetse n'abana bambaye imyenda itandukanye, hakaba harimo abana bicaye ku ntebe ifite ibara rijya gusa nka kaki, bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, yanditse ngo "tubiteho", bakaba bari kwitabwaho n'abagabo bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu, bambaye na ga, bari kubigisha uburyo bakoresha umuti w'amenyo basukura amenyo yabo.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye agapira gafite ibara ry'umweru, afite akadodo gafite ibara ry'umweru mu ntoki gashinzwe kugenda gasukura amenyo. Ari kugenda agacisha hagati mu myanya iri hagati y'amenyo yiwe mu rwego rwo gusukura amenyo ye.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara n'ubwanwa bw'umukara wambaye umupira w'umweru wamaboko maremare, akaba afite urudodo rw'umweru mu ntoki rwifashishwa mu gusukura amenyo. Akaba ari kugenda arucisha hagati y'amenyo, mu rwego rwo gusukura amenyo yiwe.

Ishusho ifite ibara ry'umweru hivanzemo n'indi y'umukara igaragaza amenyo y'umuntu uko ameze mu kanwa k'umuntu n'ikibazo afite iyi shusho ikaba itangwa n'icyuma cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo ufite ndetse n'aho icyo kibazo giherereye.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko magufiya, ifite ibara rijya gusa umweru akaba yambaye n'agapfukamunwa gafite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, akaba yambaye na ga zifite ibara ry'umweru, akaba ari kuvura umuntu ufite ikibazo cy'amenyo uryamye ku gatanda, akaba afite n'agashuka kamworoshe gafite ibara ry'icyatsi, umuntu akaba aba yambaye amaherena afite ibara ry'umweru ku matwi.

Abagore babiri bambaye imyenda itandukanye, harimo ufite imisatsi isutse, wambaye ikote ryifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri rifite ibara ry'umukara, riciyemo imirongo y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari kumwe n'uteze igitambaro gifite ibara ry'umutuku, wambaye umupira w'amaboko maremare, bose bari mu myitozo ngororamubiri bari mu muhanda. Iruhande rw'uwo muhanda hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru uteze igitambaro gifite ibara rijya gusa umweru, akambara n'ishati ifite ibara rijya gusa n'umweru, hasi akenyeye igitenge gifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, akaba yicaye hasi imbere y'inkono iteretse ku mashyiga atatu, akaba iruhande rwe hari ibyatsi byumye ndetse ku rundi ruhande hakaba hari ibiti bifite amabara y'icyatsi.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye amakoti, amashati ndetse n'abambaye imyenda idoze mu bitenge, n'abambaye amakanzu, batanze ubufasha bw'ibikoresho byifashishwa ku bantu bafite ikibazo cy'ingingo, batabasha kugenda, batanze ibikoresho bifashisha bagenda.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru, ufite umusatsi w'umukara urimo n'imvi z'umweru, wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse akambara n'undi mupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye impuzankano y'ishati ifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ipantaro bisa, wambariyemo umupira w'amaboko maremare w'umweru, bakaba bari mu cyumba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'igitanda gifite ibara ry'icyatsi n'amashuka y'umweru.

Umugore w'umwirabura uri mu imyaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'umweru w'imvi, wambaye umupira w'amaboko maremure urimo ibara ry'umukara ndetse n'irindi bara rijya gusa nka kaki, ari kwitabwaho n'umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye agakoresho gafite ibara ry'umukara, ndetse n'utundi twuma dushamikiyeho, kifashishwa mu gusuzuma uko umutima w'umuntu utera. Uwo mugore yambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bwijimye. Bakaba bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'imitako y'ibiti.

Abantu batandukanye bari mu muhanda bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda itandukanye; harimo abambaye imipira ifite ibara ry'uburu ndetse n'amapantaro yabugeneye mu gukora imyitozo ngoramubiri bakaba begere n'uwambaye umupira w'ama ku magufi ufite ibara rye gusa wambaye nawe ipantaro yabugene mukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari n'abandi bari gukora imyitozo ngomubiri yo kugenda birukanka.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru ufite ubwanwa bw'umweru bw'imvi, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa n'umweru w'amaboko maremare, akaba afite inkoni imufasha kugenda mu gihe ari gukora urugendo rw'amaguru. Akaba yicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru, akaba ari kwitabwaho n'umukobwa ufite imisatsi isutse, wambaye impuzankano y'ubururu, wambariyemo agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru, akaba afite n'ikarita iriho ibimuranga ku ruhande rw'igice cy'ibumoso.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru wambaye ishati y'umweru yimirongo y'umukara akaba yambaye n'pantaro ifite ibarajya gusa akaba afite akuma kamufasha gutambuka gafite ibarajya gusa nk'ivu ndetse n' akaba ari kumwe n'shinzwe kumwita wambaye umupira w'amaboko magufi iyo ufite ibara ry'umu akarenrenzeho akajiri gafite ibara ry'ubururu bwerurutse akaba yambaye n'ikarita ifite ibara ry'ibiriho imyirondoro yiwe.

Umugabo n'umugore bari mu myaka y'izabuku bari kumwe n'umuryango wabo kumwe n'umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umugore wambaye ikanzu irimo uturabyo n'umwana muto wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu bwererutse irimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara isobanye bakaba bambaye amashati. Umugabo yambaye ishati ifite ibara ry'umukara ririmo imirongo y'umweru umugore akaba yambaye ishati ifite ibara rigiye gusa na kaki.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye amarinete y'amaso, afite ibara ry'umukara, akaba afite ikaramu mu ntoki ifite ibara ry'umukara, akaba anambaye ishati ifite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'ikayi ifite impapuro z'umweru. Akaba ari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye amarinete afite ibara ry'umukara. Akaba yambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo, akaba afite agacupa k'umweru karimo ibinini by'umweru, ari kunywa, kugira ngo yirinde uburwayi.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru wambaye umupira w'amaboko magufiya ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, umweru ndetse n'irindi rijya gusa n'ivu yicaye ari gukina umukino ufite udukinisho dufite amabara atandukanye harimo udufite ibara rijya gusa nka kaki, utundi dufite ibara ry'umukara.

Umugore uri mu myaka y'iza bukuru wambaye agasengeri gafite ibara rijya gusa umutuku, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ifasha mu nda ndetse n'umugongo, akaba aryamye ku gatapi kabugenewe ko gukorerwaho imyitozo ngororamubiri gafite ibara ry'ubururu bwerurutse. Akaba ari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru y'imvi, wambaye amarinete, yambaye ishati y'umukara, inyuma yayo ashyiraho umupira w'amaboko maremare, ari kumwe n'umugabo n'umugore bari kumufasha kumwarurira ifunguro ryo kurya.

Abantu batandukanye, harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, irimo n'amabara atandukanye, harimo abambaye imyenda idozwe mu bitenge ndetse n'abambaye ibitambaro mu mutwe, hakaba harimo n'abagabo bambaye amakote, abandi bakaba bambaye imipira. Bakaba bari mu gikorwa cyo gufasha abantu bageze mu myaka y'izabukuru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kirimo igitanda kiryamamo umurwayi, hakaba harimo umuntu wambaye imyenda yo kwa muganga, ndetse akaba afite agakoresho gafite ibara ry'umukara, ndetse n'ibindi byuma bishamikiyeho kifashishwa mu gutambuka k'umuntu ufite ikibazo cy'imvune, ndetse n'ikibazo cyo kutabasha kugenda.

Abantu benshi bari mu muhanda harimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye imipira y'umweru ndetse hakabamo n'abandi bambaye imipira itandukanye, bafite icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara ryo hagati rijya gusa nk'umutuku, urimo amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ibara ry'umweru Handitse ngo:" Twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira."

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi, munsi yaho hakaba ari ikirango cy'imigabane igiye itandukanye ifite ibara ry'umwru. Munsi hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'ubururu, ndetse n'amatariki n'ukwezi n'umwaka.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, munsi y'icyo kirango hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu buso bufite ibara ry'ubururu bwerurutse, iruhande rwayo hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi ndetse munsi hari n'amatariki ndetse n'imbuga nkoranyambaga wasangaho icyo kigo.

Ikirango cya repubulika y'u Rwanda kiri iruhande y'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda gifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, iruhande rwacyo hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara acyanditseho, munsi hari ikirango gifite ibara ry'umutuku, iruhande rwayo hari ubuso bw'icyatsi burimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye barimo: abakobwa ndetse n'abahungu. Hakaba hari umukobwa uhagaze imbere wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'ijipo y'umweru, akaba afite n'inyongeramajwi mu ntoki yambaye n'amarinete, akaba afite n'imisatsi isutse y'umukara. Inyuma y'iwe hari icyapa gifite ibira rijya gusa umutuku ndetse n'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'abandi bantu bicaye imbere y'iwe. Bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'ubururu.

Ubuso bw'icyatsi burimo umubare gatatu, ufite ibara ry'umweru, ku ruhande rw'uwo mubare hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'umweru, munsi y'ayo magambo hakaba hari ibimenyetso by'imirongo igenda inyuranamo, ndetse n'ikimenyetso cy'umutima.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu buso bufite ibara rijya gusa umuhondo, aya magambo akaba ari mu ibara ry'umweru, inyuma hakaba hari ubuso bufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imipira y'umweru ndetse n'abambaye amakanzu, hakaba harimo n'ushinzwe umutekano, abo bita ba DASSO, inyuma yabo hari icyapa gifite ikirango cya repubulika y'u Rwanda, n'andi magambo ari mu buso bw'ubururu, ari mu rurimi rw'ikinyarwanda afite ibara ry'umweru.

Ubuso bw'ubururu burimo amagambo y'impine HPR, munsi y'ayo magambo y'impine harimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ivuriro kirimo utubati tugeretse inshuro zirenze imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, utwo tubati tukaba turimo udukarito dufite amabara atandukanye arimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Ivuriro rifite ibikuta bifite ibara ry'umweru hakaba harimo intebe zigiye zitandukanye zifite amabara atandukanye harimo intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'izindi zifite ibara rijya gusa n'ivu, imbere hakaba hari imeza ifite ibara ry'umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara rijya gusa n'ivu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye afite ibara rijya gusa na kacyi, ikaba ifite inzugi n'amadirishya bifite ibara ry'umukara birimo ibirahure, hanze y'iyonzu hari ubusitani buteye burimo indabyo ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye, bicaye mu bice bibiri bitandukanye, hakaba hari abicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, imbere yabo hakaba hari ameza afite ibara ry'icyatsi ateretseho mudasobwa, ndetse n'amacupa y'amazi, hakaba hari n'umugabo uhagaze uri gukamera ikiganiro kiri kubera muri iyo nzu mberabyombi, iyo nzu mberabyombi ikaba ifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara rijya gusa umutuku, hakaba hari n'icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru.

Icyumba cy'ivu gifite inkuta z'umweru n'amadirishya n'inzugi zifite ibara ry'umukara birimo ibirahure icyumba cy'ikivu kirimo ibitanda bifite ibara ry'umweru biryamyeho abarwayi buri gitanda kiba gifite inzitiramibu ifite ibara ry'ubururu hakaba ari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara ushinzwe kugenda azinga inzitiramubu ziri kuri buri gitanda.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru n'amadirishya y'umweru arimo ibirahurekaba arimo n'amarido yumye icyo cyumba kikaba kirimo udutanda dutatu dutandukanye hari gusa dufite amabara ameze kimwe turi mu byerekezo bitandukanye tukaba dufite amabara y'umuhondo iruhande rwayo hari utushini tugiye dutandukanye twifashishwa mu kureba ikibazo umuntu afite.

Inzu yubakishijwe amabuye afite ibara rijya gusa nk'ivu ifite amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure imbere yayo hari abagabo babiri bari gutambuka uwambaye ikabureriya y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururundi akaba yambaye ishati ifite ibara ry'umu ndetse n'ipantaro'umukara imbere y'iyozura ubusitani buteye buteyemo ibyatsi.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye bari mu myaka y'izabukuru, harimo abasaza ndetse n'abakecuru. Bose bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, impande y'izo ntebe hari uducupa tw'amazi tuhateretse hasi. Bose bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye, bamwe bambaye imipira y'icyatsi cyerurutse, abandi bakaba bambaye imipira y'umuhondo. Bakaba bari mu nzu mberabyombi ifite inkuta z'umweru ndetse n'icyatsi.

Inzu igeretse inshuro zirenze imwe, ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure, imbere y'iyo nzu hari amabendera afite ibara ry'umweru yanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hakaba hari n'ubusitani buteye imbere y'iyo nzu burimo ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, irimo abantu batandukanye, harimo abagabo, ndetse n'abagore, n'abana batoya, bambaye imyenda igiye itandukanye, imbere hari urukuta rufite ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'andi yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, handitseho ngo aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Inzu yubakishijwe urukuta rufite ibara rijya gusa kaki ikaba irimo amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure, hejuru ku nzu hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi, inyuma y'iyo nzu hakaba ari ubusitani buhateye burimo indabyo ndetse n'ibyatsi n'ibindi biti bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze hakaba harimo n'abandi basutanye. Harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye. Bari mu busitani buteyemo ibyatsi. Muri ubwo busitani hakabamo ibyatsi ndetse n'ibiti. Muri ubwo busitani hakaba harimo icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'ibirango bigiye bitandukanye. Hakaba hariho n'amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara rijya gusa n'umweru, arimo ibirahure n'amarido y'umweru, harimo umugabo wambaye impuzankano y'ubururu, ufite mudasobwa ebyiri imbere yiwe zifite amabara atandukanye, aho imwe ifite ibara ry'umweru indi ikaba ifite ibara ry'umukara, irimo amashusho agaragaza igice cy'umuntu cy'imbavu ikibazo gifite.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara rijya gusa umuhondo kirimo umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru iriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi ndetse ku rundi ruhande hakaba ariho amazina yiwe ari mu ibara ry'uburura, akaba ari mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye gifite amabara atandukanye birimo igitanda gifite ibara ry'umweru n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bifite ibara ry'umweru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite amabati y'ubururu bwerurutse, ikaba ifite n'inkingi zifite ibara ry'umweru n'umukara, hejuru ku nzu hari amagambo ahanditse ari mu buso bw'umweru, ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditseho ngo "inzu y'ababyeyi", imbere y'iyo nzu hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye. Ikaba yejyaranye n'indi nzu yubakishije amatafari ahiye, ikagerana n'igipangu gifite ibara ry'ubururu.

Inyubako ifite inkuta zifite amabaragi atandukanyemo umweru n'irindi barajya gusa nk'umuhondo, n'irindi rifite ibara ry'ubururu. Ikaba irimo intebe zifite amabaragi atandukanye ikaba ifite na parafite ibara ry'umweru ndetse n'amatara y'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo intebe ndetse n'igitanda, bifite ibara rijya gusa umutuku, hakaba harimo utubati n'ameza n'igikoresho cyifashishwa mu kujugunyamo imyanda imaze gukoreshwa muri icyo cyumba.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umye ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'ivu, ikaba ifite imiryango ifite ibarajya gusa nk'ivu ririmo ibirahure ikaba irimo utubati turimo imiti igi itandukanye kamwe mu tubati turimo imbere kaba kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icya cyanze iyo nzu hari icyapa kimanitse hejuru kirimo ibara ry'umweru n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu yubakishijwe urukuta rufite ibara ry'umweru, ikaba ifite amabati afite ibara ry'ubururu bwerurutse, n'amadirishya afite ibara ry'icyatsi cyerurutse, arimo ibirahure imbere y'iyo nzu hari ikigega gishinzwe gufata amazi y'imvura aturutse ku mabati, imbere yaho hari n'ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'igiti cy'umwembe.

Inyubako y'ivuriro ifite inkuta zigiye zitandukanye zifite amabara agiye atandukanye, arimo umweru, ibara rijya gusa umutuku, icyatsi kerurutse n'umuhondo ndetse n'ubururu bwerurutse, hakaba harimo intebe nazo zifite amabara arimo umweru n'ubururu ndetse n'icyatsi, harimo n'ibishushanyo bigiye bitandukanye n'imitako yindi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'izindi nkuta zisize amarangi y'ibara ry'umweru ndetse n'irindi ry'umuhondo, hejuru kuri iyo nyubako hari amagambo ahanditse ndetse n'amagambo ari mu nyuguti z'impine, afite ibara ry'ubururu. Hanze y'iyo nyubako hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibyatsi, imbere kuri iyo nyubako hari abantu bahicaye, bicaye ku ntebe y'urubaho ndetse n'abicaye hasi kuri sima.

Ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi n'ibiti bigiye bitandukanye, ubwo busitani hakaba harimo ikicungo cy'abana batoya bajyaho bari kurya umunyenga mu gihe bari kwidagadura, gifite ibara ry'uburu ndetse n'icyatsi kerurutse, hakaba hari uruzitiro rw'ubwo busitani rwubakishije amatafari ahiye, harimo n'ibyuma hagati ifite ibara ry'umukara.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari igice cyubakishije ibirahure, munsi inzugi zayo zifite ibara rijya gusa umutuku. Hejuru hakaba hari amagambo yanditseho, ari mu rurimi rw'Icyongereza, avuga ko ari ivuriro rivura amaso.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kiba gifite n'amadirishyafite ibara ry'umukara harimo ibirahuri muri iki cyumba harimo ibitanda bifite amabara asa n'amashuka afite amabara, buri gitanda gifite inzitiramibu hejuru yacyo ibitanda bikaba biryamye iyo abarwayi bagiye batandukanye muri icyo cyumba akaba barimo n'abaforomokazi batandukanye bashinzwe kwita kuri abo barwayi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kikaba kirimo n'utubati tugerekenge dufite ibara ry'umweru n'umukara hagiye haciyemo imirongo ifite ibara ry'umukara. Hakaba harimo abaganga babiri bambaye amataburiye afite ibara ry'umweru n'udupfukamunwa dufite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse. Bakaba bahagaze imbere yabo hari imashini yifashishwa mu buvuzi bakora.

Inyubako igeretse inshuro imwe, ebyiri, eshatu; ifite ibara rijya gusa n'umuhondo, ku rundi ruhande ikaba yubakishije ibirahure by'umukara. Hanze y'iyo nyubako hari imodoka nyinshi zihagaze, hakaba n'ubusitani buteyemo ibiti bigiye bitandukanye. Imbere ku bwinjiro hari icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, afite ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse hakaba hariho n'ikirango gifite ibara ry'ubururu bwerurutse.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru, ndetse n'umuhondo, hakaba hari n'imitako y'ibinyabuzima iba mu mazi iri kuri icyo gikuta cy'umuhondo, icyo cyumba kiba kirimo utubati dufite ibara rijya gusa nka kacyi, muri icyo cyumba hakaba harimo n'igitanda umurwayi aryamamo mu gihe arikorerwa ubuvuzi, hakaba harimo n'ibyuma byifashishwa bavura umurwayi waje muri icyo cyumba.

Urukuta rw'umweru ruriho igikoresho gifite ibara ry'umutuku cyifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro. Hakaba hari abagabo bicaye imbere yicyo gikuta bicaye ku ntebe z'umukara harimo uwambaye ijire ifite ikirango k'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda wambariyemo umupira w'umweru akaba ari gusuzuma umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ,wambaye ikaritimuranga ifite umugozi w'ubururu mu ijosi.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hakaba harimo ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi, bambaye imyenda itandukanye, bakaba bari kwitabwaho n'umugore ufite imisatsi y'umukara migufiya, wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite n'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera muri ako kanya, gafite ibara ry'umukara ndetse n'utundi twuma dushamikiyeho.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'amatara yifashishwa mu buvuzi, mu gihe umurwayi aryamye munsi yayo, munsi yayo hari igitanda gifite ibara ry'icyatsi, kiryamaho umurwayi mu gihe bari kumuvura. Icyo cyumba kikaba kirimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, icyo cyumba kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure, ku madirishya hariho amarido afite ibara ry'umweru. Muri icyo cyumba cyivuriro hakaba harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, akaba yiyoroshe ikiringiti gifite ibara ry'ubururu. Muri cyo cyumba hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse hakaba harimo n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'icyatsi.

Ubwinjiriro bufite igisenge gitoya gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara rijya gusa n'umutuku, kuri ubwo bwinjiro bufite igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse bukaba bufite n'igipangu gifite ibara rijya gusa ka kaki, iruhande hakaba hari akazu gatoya kajyamo umuzamu ushinzwe umutekano wo kuri ubwo bwinjiriro bw'ikigo nderabuzima.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, kikaba gifite na parafo ifite ibara ry'umweru irimo amatara afiite ibara ry'umweru, icyo cyumba kiba kirimo igikoresho cyifashishwa mu buvuzi mu gusuzuma ibice by'umuntu, ikibazo bifite n'aho icyo kibazo giherereye mu mubiri w'umuntu.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba ifite n'amadirishya afite ibara rijya gusa icyatsi arimo ibirahure, iyo nzu ikaba ifite n'akapa gatoya kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi. Imbere y'iyo nzu hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, wambaye agapfukamunwa, uhahagaze.

Inzu mberabyombi ifite parafo y'umweru, irimo amatara y'umweru ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu kugabanya no kongera igihe habayeho ikibazo cy'ubushyuhe. Iyo nzu mberabyombi ikaba ifite inkingi zisize ibara ry'umweru, ikaba ifite amadirishya y'umweru arimo ibirahure, iyo nzu mberabyombi ikaba irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri y'amaboko, y'amaguru, y'umugongo, bifite amabara atandukanye arimo umukara, ndetse n'andi mabara ajya gusa nk'ivu.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru, kikaba kirimo ibitanda bitatu bifite ibara ry'umweru, kikaba gifite n'amashuka afite ibara ry'icyatsi. Buri gitanda kiba gifite irido rifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse. Hakaba harimo n'ibyuma byifashishwa mu buvuzi bipima umuntu uko ubuzima bwe buhagaze muri ako kanya.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse mo imbere hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'amaherena ku matwi, yambaye n'agapfukama na rinete z'amaso, afite imisatsi miremire y'umukara isutse, imbere yiwe hari mudasobwa ifite ibara ry'umweru n'umukara. Muri icyo cyumba hakaba harimo n' ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara arimo ibirahure, icyo cyumba kikaba gifite parafo ifite ibara ry'umweru n'amatara y'umweru, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo igitanda kiryamaho umurwayi gifite ibara ry'umukara, hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'umurwayi waje muri icyo cyumba.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umweru n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure, hanze yayo hari imodoka nyinshi zihahagaze harimo imodoka z'imbangukiragutabara ndetse n'izindi modoka zitandukanye, izo modoka zikaba zifite amabara atandukanye harimo umweru, icyatsi ndetse n'umukara.

Ihema ry'umweru ririmo abantu batandukanye aho harimo abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, bakaba bambaye ga zifite ibara ry'umweru ku biganza ndetse n'udupfukamunwa dufite ibara rijya gusa n'ubururu bwerurutse. Hakaba harimo n'ibitanda bifite ibara ry'icyatsi biryamyeho abarwayi bambaye imyenda igiye itandukanye, bose bakaba bambaye udupfukamunwa dufite amabara agiye atandukanye.

Inzu ifite inkuta z'umweru ziriho ibyapa bigiye bitandukanye ikaba ariho n'imitako iyo nzu ikaba ifite parafite ibara ry'umweru n'amatara y'umweru ikaba irimo intebe zigiye itanzwe n'abantu batandukanye harimo umugabo wambaye umupira w'uburu ndetse n'ipanelicti ibara ryo gusa wicaye ku ntebe iriho abategeye serivisi ikorerwa muri iyo nzu wambaye n' ingofero y'umukara ku ruhande rweriya akaba n'undi mugore uhicaye imbere akaba ari umugabo uri kwakirwa n'abantu babiri.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, kikaba gifite n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure, hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye, bifite amabara ameze kimwe, buri gitanda kiba gifite inzitiramibu ifite ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Aho harimo amacupa afite ibara ry'ubururu akaba yometseho udupapuro dufite ibara ry'umweru twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu. Icyo cyumba kikaba kirimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutunganya ndetse mu buvuzi bukorerwa muri icyo cyumba.

Inyubako igeretse rimwe ifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'ivu, ikaba ifite idirishya n'inzugi bifite ibara rijya gusa nk'ivu, bikaba birimo ibirahuri. Imbere y'iyo nyubako hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'imodoka ihahagaze ifite ibara ry'umutuku, hakaba hari n'ubusitani buteye imbere yabwo burimo ibyatsi.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa na kacyi, rikaba rifitemo akapa gatoya kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara, iruhande hakaba hari urugi rw'ibirahure rwinjira mu cyumba gifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo ndetse kikaba kirimo intebe zifite amabara agiye atandukanye harimo ibara rijya gusa n'ivu ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akambariramo ishati ifite ibara rijya gusa nk'ivu, yambaye agakoresho mu ijosi gafite ibara ry'umukara ndetse n'utundi twuma dushamikiyeho twifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera. Afite n'ikaye mu ntoki ifite ibara ry'umukara, ifite impapuro z'umweru, iruhande rwe hari umugore ufite imyaka y'izabukuru, wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu, hivanzemo ibara

Ibishushanyo by'abantu biri mubuso bigiye bitandukanye. Igishushanyo cya mbere kiri mu ubuso bw'ubururu bwijimye, kirimo umuntu wicaye kugatebe afite ibara ry'ubururu hakaba hari igishushanyo cya kabiri, gifite ubuso bw'ubururu bwererutse kirimo umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri yo kwigorora, igishushanyo cya gatatu kikaba gifite ubuso bw'icyatsi. Kirimo umuntu uri mu myitozo ngorora mubiri zo kwiruka, ikindi gishishanyo kiba gifite icyatsi cyererutse n'ibindi bikatuma andi mabara agiye atandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya ufite ibara ry'umukara, hakaba n'amagambo yanditseho mu rurimi rw'Icyongereza awanditseho, akaba yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umukara n'inkweto z'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri ifasha igice cy'amaguru.

Umukobwa wambaye agasengengeri kagufi kagaragaza umukondo gafite ibara ry'umukara, akaba anambaye n'ipantaro yabugenewe ifite ibara ry'umukara yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri imbere yiwe hari icupa rifite ibara rijya gusa nk'icyatsi giherutse ririmo amazi yo kunywa akaba yicaye ku gatakapi kabugenewe ko gukoreraho imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupipura ufite rijya gusa nk'ubururu, wambaye n' ikabutura y'umukara ufite ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ifite ibara ry'umuhondo, uri gukora imyitozo ngoromubiri ifasha igice cy'amaboko ndetse n'amaguru, akaba ahagarariwe n'umugabo wambaye umupira ufite ibara rijya gusa, wambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa n'umukara, uri kumwerekera imyitozo ngoramubiri akora.

Imeza ikozwe mu biti, ikaba isize irangi ry'umweru, ikaba iteretseho ibintu bitandukanye harimo udukoresho dufite ibara rijya gusa n'umutuku, twifashishwa mu myitozo ngoramubiri y'amaboko, n'imetero ishinzwe gupima uburebure, ndetse n'umuzenguruko wo mu nda w'umuntu, ifite ibara ry'umuhondo, n'imbuto harimo icunga, na pome, n'ikirahure kirimo umutobe wenze mu myembe.

Abantu babiri batandukanye harimo uwambaye umupira w'umuhondo ndetse n'agakabutura k'umukara, ufite akuma kamufasha gutambuka ari kumwe n'uwambaye umupira w'ubururu bwijimye ndetse n'ikabutura y'umukara ufite umupira wifashishwa mu myitozo ngororamubiri y'amaguru.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akaba anambaye n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera, akaba ari gufasha umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, akaba anambaye n'ikabutura ifite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba ari kumufasha mu kugorora igice cyo mu ivi cyahuye n'ikibazo cy'imvune ari mu myitozo ngororamubiri.

Inzu ifite inkuta z'umweru zanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara hejuru kuri iyo nzu kuri parafo ari ibara ry'umweru .Hakaba harimo n'amatara y'umweru hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngoramubiri yo kwibuka ndetse n'indi ifasha amaguru.

Ikizingo gifite ibara ry'umutuku kizingiye ku gatiyo gafite ibara ry'umweru, icyo kizingo kikaba ari icy'igitambaro cyifashishwa kuzirika ku rugingo rwahuye n'ikibazo cy'imvune mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngoromubiri cyangwa iyindi mirimo igiye itandukanye.

Inyubako ifite inkuta zubakishijwe amatafari ahiye, afite ibara ry'umweru, hakaba harimo amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure, muri iyo nyubako hakaba harimo umugore wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngoromubiri, aryamye hasi ku gatapi gato gafite ibara ry'umukara, kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri ifatishije igice cy'umugongo ndetse no mu ivi.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara n'ikabutura ifite ibara ry'umukara akaba yambaye isaha ku kaboko kibumoso akaba ari mumyitozo ngororamubiri ifasha igice cy'akaguru akaba yicaye hasi mu muhanda.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kikaba kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, muri icyo cyumba akaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi hakabamo igikoresho gifite ibara ry'umweru n'umukara mu gice cy'umukara hakaba harimo imibare rimwe, kane, umunani, icyenda icyenda n'indi mibare igiye itandukanye; iki cyumba kiba kigaragaza uko ubuzima bw'umuntu buhagaze muri ako kanya.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'agatambaro ku kaboko k'ibumoso gafite ibara rijya gusa n'umutuku, akaba afite icupa rifite umufuniko w'umukara ririmo amazi ari kwimenaho mu maso ari mu myitozo ngororamubiri.

Amagambo menshi ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara agiye atandukanye harimo ubururu, umukara, umuhondo ndetse n'umutuku, hejuru yayo hari ibirango bibiri bitandukanye, harimo ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ibitaro bikuru bya gisirikare gifite ibara ry'icyatsi hakaba hari n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi.

Agatiyo gafite ibara ry'umweru, kazinzeho agatambaro gafite ibara ry'ubururu, kifashishwa mu kuzirika urugingo rwahuye n'ikibazo mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buryo butandukanye bifite amabara agiye atandukanye byifashishwa mu kunganira igice cy'akaguru cyahuye n'ikibazo cy'imvune yo mu ivi ndetse n'iyo ku murundi, ibyo bikoresho bikaba bifite ibara ry'umweru, umukara hakaba harimo n'ibifite ibara rijya gusa nk'ivu n'ibindi bifite ibara ry'umukara hose.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye agasengeri gafite ibara ririmo umukara ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'ivu ufite igitambaro cyo kwihanaguza, afite agacupa gafite ibara ry'umukara karimo amazi ari kunywa.

Inyubako irimo ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri irimo umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umukara akaba anambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu akaba ateruye icyuma cyifashishwa mu myitozo ngoramubiri y'amaboko.

Abantu benshi bahagaze harimo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bari mu kibuga cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri y'amaboko, bari kureba abantu bahagaze bari imyitozo ngororamubiri, bambaye amasengeri afite ibara ry'umweru n'umukara, akaba n'abambaye n'amakabutura afite amabara agiye atandukanye arimo umweru ndetse n'umukara, hirya hakaba hari abantu bafite icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'ibirango bitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiye ifite ibara ry'umweru y'amaboko maremare, akaba ari kuvura umuntu wambaye ikabutura y'umukara, yambara n'akandi gakabutura kamufashe gafite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba ari kumuvura ku gice cyo mu ivi cyahuye n'ikibazo cy'imvune mu gihe ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri batandukanye harimo uwahuye n'ikibazo k'imvune yo mu' ivi, bakaba bamushyizeho udutambaro twabugenewe mu gushyiraho ku rugingo rwahuye n'ikibazo k'imvune, agatambaro kamwe gafite ibara ry'umutuku, akandi gafite ibara ry'umweru, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye bakaba bari guhugurwa ku bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze bwakorerwa umuntu uhuye n'ikibazo mu gihe imyitozo ngororamubiri ndetse n'igihe ahuye n'impanuka iyo nzu mberabyombi irimo intebe ameza bifite amabara atandukanye intebe zifite ibara ry'umutuku n'ameza ariho ibitambaro by'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru n'ikabutura ifite ibara ry'umweru ivanzemo n'irindi bara rijya gusa nk'ivu, uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri igorora igice cy'amaguru, ufite ikibazo cy'amaguru, akaba afite agakoresho kifashishwa mu gutoza amaguru kugenda no kuyamenyereza, akaba ari kwitabwaho n'umugore wambaye impuzankano z'ubururu ndetse na ga z'umweru, ari kumufasha kwimenyereza kugenda.

Agakoresho kifashishwa mu buvuzi bwo kwa muganga, gafite ibara ry'umweru, kakaba gashamikiyeho n'agatiyo gafite ibara ry'umweru n'akandi gafite ibara ry'ubururu.

Agakarito gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ayo magambo akaba afite ibara risa icyatsi. Ako gakarito kakaba kariho amashusho y'uducupa dutatu twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, tukaba dufite imifuniko y'umweru.

Umugore wambaye agasengengeri gafite ibara ry'umukara, kagaragaza umukondo wambaye n'ipantaroro ifite ibara ry'umukara ndetse n'inkweto ifite ibara rijya gusa umutuku ,imbere hakaba hari agacupa karimo amazi yo kunywa mu gihe agize inyota ashoje gukora imyitozo ngororabiri.

Agakoresho kifashishwa mu buvuzi bwo kwa muganga gafite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'ivu, kakaba gafite n'urutsinga rufite ibara ry'umukara, hakaba harimo n'imboneshamashusho, irimo imibare igaragaza ibyo bapimye ikigero biriho.

Umukobwa ufite umusatsi mukeya ku mutwe, wambaye isaha ifite ibara ry'umukara ku kaboko k'ibumoso, akaba yambaye na ekuteri z'umweru z'imigozi miremire, yambaye n'agasengeri kagaragaza umukondo gafite ibara rijya gusa umutuku, ari gukora imyitozo ngoramubiri y'amaboko, imbere yiwe hari urutare.

Inzu irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, irimo umugabo wambaye isengeri ifite ibara rijya kumera nk'ivu, akaba yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara ririmo andi mabara arimo umutuku ndetse n'umweru, akaba ari mu myitozo ngororamubiri ifasha igice cy'amaguru, akaba ari kubifashwamo n'umugore usutamye ku ruhande rwe, wambaye umupira ufite ibara rijya kumera nk'ivu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inyubako ifite inkuta z'umweru na parafo y'umweru, irimo amatara y'umweru. Inyubako ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba harimo umuhungu usutse direde akaba anambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara n'ikabutura y'ubururu bwijimye. Akaba iri mu myitozo ngororamubiri ifasha amaguru ndetse n'amaboko.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibarajya gusa nk'ivu wambaye ekuteri z'imigozi miremire zifite ibara ry'umweru, akaba afite agacupa k'amazi gafite umufuniko w'ubururu, mu kuboko kw'iburyo kakaba karimo amazi ari kunywa.

Inkweto za bote zifite ibara ry'umukara na lase z'umukara hakaba hariho n'agapapuro kariho ishusho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza izo bote zikaba zifite imashini z'umukara, zikaba ziteretse hasi, zikaba zifashishwa mu kugenda ahantu hari ibintu byakomeretsa ibirenge.

Imeza ifite ibara ry'umweru iriho ibikoresho bigiye bitandukanye, iriho ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iy'amaboko, umunzani upima ibiro by'umuntu, imetero ipima uburebure bw'umuntu ndetse n'uko mu nda he hangana, hakaba hariho n'icupa ry'amazi n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera muri ako kanya, n'imbuto harimo pome ndetse n'icupa ry'amazi, hakaba hariho n'ikayi n'urupapuro rw'umweru muganga ari kwandikaho, umuganga akaba yambaye itaburiya y'umweru.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara rimwe gusa umutuku, munsi yayo hari andi magambo ari murimi rw'icyongereza afite ibara rijya gusa ubururu, ku hande hari igishushanyo cy'umuntu uri mu myitozo ngororamubiri wambaye agasengenge gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara.

Abantu benshi batandukanye harimo abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, bari kwita ku bana babakoresha imyitozo ngororamubiri, babananura. Bakaba bari kumwe n'umuzungukazi wambaye ishati idoze mu gitenge, ifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse harimo n'irindi bara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara rijya gusa n'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, wicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru irimo n'imisego y'umweru. Afite agakoresho gafite ibara ry'ubururu kifashishwa mu gushyira mu rugingo rwahuye n'ikibazo cy'imvune, mu mugihe muri mu myitozo ngororamubiri.

Ibiganza by'abantu babiri batandukanye harimo uri kwita ku ufite ikibazo cy'imvune ziri mu biganza byombi, bakaba ari kumuzigiraho ibitambaro byabugene byifashishwa mu kuzirika ingingo zahuye n'ikibazo cymvune, ibyo bitambaro bikaba bifite ibara ry'umweru. Uri kumwitaho akaba yambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara.

Ubuso bufite ibara ryo gusa umuhondo burimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umye ndetse n'ikikirarango cy'siga ki kiri kuguruka, hakaba n'ubundi buso butoya bufite ibara ry'umweru burimo amagambo ari' mu ruri rw'ckinnge afite ibara ry'umukara ruhande hari agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umweru kariho igipapuro gifite ubuso bw'umwe bwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara rijya gusa n'umundo, akaba ariho n'ishusho y'uruyuki ndetse n'ikirango cy'sigaga kijya kiguruka.

Ubuso bw'ishusho bw'ibibabi bifite ibara ry'icyatsi, byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo, ndetse bikifashishwa mu buvuzi gakondo. Kuri ubwo buso hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'ibara ry'icyatsi cyerurutse, hakaba harimo n'ubuso bufite ibara ry'ubururu bwerurutse, burimo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Umugore uteze igitambaro gifite ibara ry'umweru akaba ari mu murima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, akaba ari gusoroma igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi agiye atandukanye kifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no kuvura mu buryo bwa gakondo.

Agakarito gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru kegeranye n'utuvido dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'indi shashi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya gusa n'pasi byose byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite amabara agiye atandukanye byose bikaba bifite ikirango cy'igisiga kiri kuguruka urebye gifite amabara agiye atandukanye.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo ikimera gifite ibara ry'icyatsi, gifite n'ururabo rutoya rufite ibara ry'umweru n'umuhondo, icyo kimera kikaba cyitwa inyabarasanya, kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo, ndetse no mubuvuzi gakondo, mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo cyo gukomereka, ugishyiraho kigahagarika kuva kw'amaraso.

Igitunguru gikasemo kabiri gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Iruhande rwawo hari indimu ebyiri zikase mu bice bibiri. Indimu ifite ibara ry'icyatsi. Ku ruhande hari icupa ribonerana ririmo umuti ukomoka muri ibyo bimera byombi ubivanze wifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi bugiye butandukanye. Hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yanditse ngo baho neza.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, hakaba arimo amababi yagiye yumira hasi, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi menshi ari kureba mu byerekezo bitandukanye, aya mababi akaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Ikiganza gifashe ikibabi gifite ibara ry'icyatsi kiri ku giti kiriho andi mababi ndetse n'izindi mbuto; icyo gihingwa gifashwe n'uwo muntu, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Agacupa gafite ibara ry'umweru kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyoyungereza aho ari amagambo y'ururimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi n'andi afite ibara ry'umukara kuri ako gacupa hariho ishusho y'ikimera cyitwa igikabamba gifite ibara ry'icyatsi, ako gace kakaba kariho n'ikirango cy'igisiga kiriguruka kaba kegereye n'akandi gacupa bisa neza.

Amacupa n'agakarito n'ishashi biriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ubusobanuro butandukanye anafite amabara atandukanye, ibyo byose bikaba birimo imiti ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo, hakaba harimo iyo miti ituruka kuri ibyo bimera harimo, igikakarubamba n'ibindi bitandukanye.

Uducupa ndetse n'udukarito dutandukanye dufite amabara atandukanye arimo dufite ibara ry'icyatsi n'umweru, umuhondo n'icyatsi, n'umweru n'irindi bara rijya gusa na kaki, hakaba hose handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ku ducupa dufite ibara ry'umuhondo tukaba twanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'ikirango cy'igikarubamba, gifite ibara ry'icyatsi, hakaba hariho n'ikirango igisiga kiri kuguruka, byose bihuriye ku gisiga kiri kuguruka ari cyo kirango cyabyo.

Icupa rifite ibara ry'umweru ririho icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse kikaba kiriho n'ishusho y'ikimera gifite ibara ry'icyatsi cyitwa igikakarubamba, kikaba kiriho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibyatsi ndetse n'ibindi, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi arikureba mu byerekezo bitandukanye, iki gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti yo kuvura umuntu hifashishijwe iki gihigwa cy'ubuvuzi gakondo.

Icupa ry'ikirahure ribonerana rifite umuvufuniko w'icyatsi rikaba ryometseho igipapuro kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga ngo umuravumba, ayo magambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda akaba ari mu ibara ry'umweru imbere mu icupa harimo umuti ukomoka ku bimera wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa ari mu ibara ry'umukara, yanditswe mu buso buriho amashusho y'uducupa dutatu dufite amabara atandukanye, aho gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo ari mu ibara rijya gusa nka kake, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza, ako gacupa kakaba gafite n'ishusho y'ikimera bita igikakarubamba kifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse no gukora imiti ya gakondo, ayo macupa akaba yifashishwa mu kubika imiti y'ubuvuzi gakondo.

Agakarito gafite ibara ry'umweru ndetse n'uburururiho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu bwijimye kagira n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umutuku ndetse n'andi ariwi ibara ry'icyatsi, kakaba gafite amabara harimo ubururu n'umweru ndetse n'umuhondo n'umutuku.

Umurima uteyemo intabire, urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo ibihingwa bifite amababi maremare, menshi, areba mu byerekezo bigiye bitandukanye, yifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Agakayoto gafite ibara ry'umweru kakaba kagiye gafitemo ubuso bw'ubururu butambitse burimo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru, ahandi hari ubuso bw'umweru hagiye harimo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza na yo afite ibara ry'ubururu.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibyatsi ndetse n'ibindi bihingwa bifite amabara arimo icyatsi ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo, hakaba harimo igihingwa gifite amababi y'umweru ndetse n'icyatsi cyifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo no mu gukora imiti gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo indabyo z'umweru n'ibindi bihingwa bifite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi manini afite ibara ry'icyatsi, kifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Ikoresho bigiye bitandukanye harimo amacupa, udukarito imbuto n'indabyo byose byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo. Hakaba harimo indabyo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amababi y'icyatsi, harimo imbuto, umuneke, ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'inanasi, hakaba harimo udukarito n'amacupaf afite amabara atandukanye byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza bifite amabara atandukanye.

Umurima urimo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi areba mu byerekezo bitandukanye, iki gihingwa kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Ikirahure kirimo amazi y'igice, kiba kirimo ibiti kimwe, bibiri, bitatu, biteretsemo, icyo kirahure kikaba giteretse ku meza ifite igitambaro gifite ibara rijya gusa nk'ivu, kandi hakaba hari ivaze iteretsemo ikindi gihingwa, iki giti kikaba kifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibiti, indabyo ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo igihingwa gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, ari kureba mu byerekezo bitandukanye, icyo gihingwa kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Agacupa k'umweru gafite icyapa kikometseho gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kikaba kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Hakaba hariho n'ikirango, igisiga kiri kuguruka. Hakaba hari n'ubuso bw'umukara bufite agace gato bwanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Agacupa k'umweru gafite n'umufuniko w'umweru kariho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, kakaba kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ka afite ibara rimwe gusa umutuku, hakaba ariho n'ishusho ry'uruyuki riri ku rurabyo hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kirikuguruka gifite ibara rijya gusa umutuku.

Amacupa atandukanye ari ufite amabara atandukanye akaba yegeranye n'ibikarito bifite ibara rijya gusa umukara n'ikindi gishashi gifite ibara ry'umweru harimo n'umuhondo byose bikaba bifite amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza bihuriyeho ariko bidafite amabara asa, byose bikaba bifite ikirango cy'igisiga kiri kuguruka abe kuri utwo dukarito no kuri ayo macupa bikaba biteretse ku meza, inyuma yaho ari ubusitani buteyemo.

Agacupa gafite ibara ry'umweru n'umutuku, kariho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ari mu rurimi rw'Icyongereza, kakaba kariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, munsi y'ayo magambo hari ishusho y'igihingwa cyitwa igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi.

Isahani y'umweru iriho imbuto z'amacunga hariho izifite ibishishwa n'izindi zidafite ibishishwa, iyo sahani ikaba iriho n'ururabo rufite ibara ry'umuhondo hakaba hateretseho n'agacupa gato gafite ibara ry'umweru n'umufuniko w'umweru, kakaba kariho igipapuro kirimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, ako gacupa kaba karimo umuti ukomoka ku bimera wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, kikaba gifite n'amababi menshi, areba mu byerekezo bigiye bitandukanye, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora umuti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru yegeranye n'agacupa gafite ibara ry'umweru kariho igipapuro cy'umweru cyanditse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara rijya gusa umutuku hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiri kufuruka, iruhande rw'ako gacupa hari ibinini bifite ibara ry'umweru biri iruhande rw'ako gacupa.

Amacupa n'udukarito bitandukanye bifite amabara atandukanye biteretse ahantu hamwe, birimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo. Ibyo byose bikaba bifite amashusho agiye atandukanye, ariho ibimera bigiye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ndetse no mu buvuzi gakondo.

Uducupa dutandukanye kamwe tubiri dutatu tune dutanu dutandatu, dufite ibara ry'umweru n'imifuniko y'umweru twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse tukaba tudufite ikirango k'igisiga kiri kuguruka gifite ibarajya gusa na kaki.

Uducupa tune dutandukanye dufite amabara atandukanye, harimo udufite ibara ry'umukara, irindi bara rijya gusa nk'umutuku, irindi rijya gusa n'umuhondo n'irindi rijya gusa n'umutuku. Tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, tukaba dufite n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka. Twose utwo ducupa tukaba dufite ikirango cy'igihingwa cyitwa igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, kifashishwa gukora imiti gakondo. Ayo macupa akaba abika imiti ikozwe mu bimera.

Uducupa twinshi dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'imifuniko ifite ibara rijya gusa kaki twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara rijya gusa nka kaki hakaba hariho ikirango cy'igisiga kirimo kuguruka utwo ducupa twaba turiho n'ishusho y'ikimera cyitwa igikakarubamba cyifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo utwo ducupa tukaba tubika imiti y'ubuvuzi gakondo.

Umurima uteyemo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyatsi ndetse n'ibindi bihingwa bifite amababi y'icyatsi bifite n'indabyo zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo n'umweru. Ibyohingwa bikaba byifashishwa mu gukora ubuvuzi ndetse no gukora imiti gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi ari kureba mu byerekezo bitandukanye, iki gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no mu gukora ubuvuzi gakondo.

Udusahani twinshi tubajwe mu biti bifite ibara rijya gusa na kaki. Turimo ibimera bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye, arimo umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'umweru n'icyatsi, ibyo bimera bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Ikirere gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibicu by'umweru, hakaba hari ikibaya kirimo ibiti bigiye bitandukanye harimo n'ibimera bigiye bitandukanye, harimo igiti kirekire gifite amashami ariho amababi ari kureba mu bice bigiye bitandukanye, kikaba kifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Agasahani karimo umuti ufite ibara ry'icyatsi, umuti ukaba ukomoka ku bihingwa ukaba urimo ikiyiko gifite ibara ry'umweru uwo muti ukaba wifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse no gukora imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa atandukanye agera mu macupa arindwi, akaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse akaba afite n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka. Hejuru y'ayo macupa hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Igifaransa, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Isahani ifite ibara ry'umweru, iriho imbuto zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'indabyo zifite ibara ry'umuhodo, hakaba hateretseho agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse gafite n'umufuniko w'umweru, kariho igipapuro gifite ibara rijya gusa n'umuhondo, kakaba kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ndetse hasi hakaba hari amakaro afite ibara ry'umweru, hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo, ndetse no mu buvuzi gakondo, harimo uducuma, ndetse n'uducupa turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.